Abantu bari mu inama kandi bakurikiye, bakaba hari icyapa kiri inyuma ya bo kiri mu ibara ry'ubururu cyanditseho Kigali yacu kandi Kigali icyeye, nibyo bituranga.

Abantu bicaye hamwe kandi bari mu nama buri wese bagiye bamutegurira amazi yo kunywa bagenda bayatereka imbere ye ku meza kandi bagiye bafite amakaramu n'amaaterefone.

Abantu bicaye hamwe bicaye ku meza yateguwe harimo igitambaro cy'umweru bakaba buri muntu wese afite amazi; hari ikirabyo kiri hafi aho hateretse ibikapu.

Abantu bicaye mu cyumba cy'inama, bakaba barimo baganira ku bintu bitandukanye kandi hakaba harimo abantu bagenda babyandika, buri muntu wese bagiye bamuha umutobe ndetse n'amazi byo kunywa.

Abantu bicaye hamwe akaba ari abamama babiri bicaye imbere mu ntebe zigezweho z'umweru, umwe yambaye imyenda y'imikara undi yambaye imyenda irimo icyatsi akaba yambaye n'ikote ry'umweru.

Umuntu uhagaze imbere y'abandi wambaye umupira w'umuhondo akaba afite indangururamajwi hari abantu bicaye mu ishitingi na bo bambaye imipira y'imihondo.

Abagabo batatu bicaye ahantu hamwe, bakaba bicaye ku ntebe z'umukara, hari n'ameza atukura, buri muntu wese afite indangururamajwi imbere ye, kandi bagiye bafite amazi yo kunywa.

Abantu bicaye ku ntebe za purasitike bakaba barimo baganira, hakaba harimo umuntu ushinzwe umutekano, ariwe umupolisi akaba arimo arandika imyanzuro ivuyemo.

Abantu bari munzu bicaye hamwe mu intebe za kijyambere bakurikiye inama, bamwe bafite za mudasobwa abandi barimo kwandika, iyo nzu ifite ibirahure.

Ni umubyeyi wicaye imbere y'abantu akaba afite indangururamajwi bari mu nzu igiye irimo imitako itandukanye kandi abo bantu bicaye ku meza ariho igitambaro cy'umweru.

Abantu bicaye hamwe, abandi bahagaze bari mu nama bakoma amashyi, hari imodoka iri inyuma yabo , n'inzu ziri impamde zabo.

Abantu bane bicaye ku ntebe z'umweru, bagiye bambaye imipira itandukanye, harimo abambaye imipira y'umuhondo, abandi bambaye imipira y'ubururu, undi akaba yambaye ikote, hari ameza iruhande rwabo.

Abantu bicaye ku ntebe z'imikara, hari ameza atukura barimo baraganira ku buryo bakemura ikibazo bagendeye ku bumwe, n'amahoro, n'ibyishimo.

Abantu bahagaze ku murongo barimo barifotoza inyuma yabo hari icyapa kiriw ibara ry'ubururu cyandikishijeho umweru kandi muri abo bantu harimo umuntu wambaye ikote ry'ubururu.

Abantu bicaye mu cyumba cy'inama, harimo abambaye amakoti bagiye bicaye ku buryo butandukanye buri muntu yicaye ku ntebe ye, kandi hari ameza ariho igitambaro cy'umweru.

Abantu bicaye hamwe bafite za mudasobwa harimo umugabo wambaye ikote n'ishati mu imbere akaba yambaye amataratara wicaye ku ntebe z'umukara bafite ameza y'ibirahure.

Abantu bicaye hamwe nk'abari mu nama harimo aba mama bateze ibitambaro; hari umuntu urimo kubaganiriza; hicaye abasirikare n'abandi bantu n'abapolisi.

Abantu bicaye ahantu hasize irangi ry'icyatsi umuhondo n'ubururu, barimo kuganira hari ameza ateretseho amazi yo mu ducupa tw'inyange.

Abantu benshi bateraniye hamwe bamwe bicaye ku intebe abandi bicaye mu ibyatsi abandi abahagaze ahari ibiti bibakikije n'amazu hafi yabo menshi ari k'umuringo.

Abantu bicaye hamwe ari benshi harimo abafite ibitenge, abambaye imyenda itukura imyenda y'imyeru, abandi bafite telephone bateze amatwi.

Abantu bicaye ari benshi bakaba bambaye amakote, harimo abari imbere hari umugore n'umugabo bicaye imbere, umugabo wambaye ikote ry'umukara umugore akaba yambaye ikoti ritukura.

Inyubako ifite ibara ry'igitaka hamwe n'ivu iriho indabyo zigiye zitandukanye zifite amabara y'umukara ndetse n'icyatsi. Hariho igipangu gifite ibara ry'ivu, hirya hari ipoto ry'amashanyarazi ifite ibara ry'umweru, hariho ibiti bigiye bitandukanye bifite amabara y'icyatsi.

Abantu bicaye mu ntebe zigezweho zo mubiro zegamirwa, hakaba hari ameza afite irange ritukura, bose bafite za mudasobwa kandi bakaba bafite ni amatelefone agendanwa.

Umumama wambaye ishati itukura n'ipantaro y'umukara, yicaye hagati y'abagabo babiri; umwe yambaye ikote n'ipantaro bisa, n'undi yambaye ikote n'ipantaro bisa.

Abantu bambaye impuzankano bakaba bambaye n'amapantaro y'imikara, izo mpuzankano ziza icyatsi hakaba hari izindi zikaba zisa ubururu bari ahantu hamwe bicaye.

Abantu bicaye imbere kuri tapi isa umukara bicaye mu ntebe zegamirwa, inyuma yabo hari icyapa gifite ibara ry'ubururu n'umweru.

Abantu bicaye mu cyumba cy'inama bicaye ku ntebe z'umukara harimo n'ameza atukura, harimo irangi ry'ubururu handitseho Kigali yacu, Kigali yemeye.

Umunara muremure ufite ibara ritukura niry'umweru, ukaba ugiye uriho ibisahane byinshi kandi hakaba hashamikiyeho insinga z'amashanyarazi zigenda mu bice bitandukanye.

Kwigaragaza ku bushake uyu munsi ni wo wa nyuma wo kwigaragaza k'ubushake garagaza imisoro utamenyekanishije mbere ya bibiri na makumyabiri na gatatu ukurirwaho amande.

Inzu igerekeranyije, ikaba ifite irangi ry'icyatsi n'umweru, ikaba ifite igipangu cyubakishije amatafari ahiye, kikaba giteyemo ibiti.

Ukwezi ko gushimira abasora ku nshuro ya makumyabiri nari rimwe(21). Ukwezi ko gushimira abasora muri bibiri na makumyabiri nagatatu(2023) saba inyemezabwishyu yawe.

Dore uburyo wakoresha bwo guhindura imashini yawe y'ifatabuguzi, mukeneye ubundi bufasha mwaduhamagara kuri gatatu, zeru, zeru, kane, turi hano ku bwanyu.

Abanyonzi batwara amagare bari mumarushanwa yo gusiganwa mu muhanda muremure ,ugenda kure hari ibyatsi biteye hafi aho n'ibiti birebire bagaragaza ubukerarugendo.

Abantu bicaye ku ntebe harimo umwirabura n'umuzungu, bafite mudasobwa ziteretse ku meza barimo kwiga kuzikoresha mu buryo bwo kwandika.

Urupapuro rw'umweru ruri mu ibara ry'ubururu rurimo rurerekana kwiyandikisha hakoreshejwe ikoranabuhanga ahantu hiyandikisha hagiye handikishijeho umweru n'umuhondo .

Urupapuro rw'ubururu rwandikishijeho umweru n'umuhondo barimo bibaza uko bakoresha ifatabuguzi rya IBM rigezweho kandi bakoresheje ikorana buhanga.

Ahantu ku muhanda hari icyapa cya banki, hari ibiti biriho insinga zitwara umuriro, umuhanda w'igitaka.

Umunara muremure uri mu ibara ry'umweru n'umutuku ufite ibisahane byinshi byo kugira ngo bikurure amaherezo abantu bose babashe kuwufatiraho.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu kiriho telefone, kirimo kirerekana uburyo wakoresha ukabona tengamara ukanze akanyenyeri magana inani urwego.

Niba ukoresha telefone igendanwa cyangwa ukoresheje mudasobwa ushobora kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga, mukeneye ubundi bufasha mwaduhamagara kuri gatatu zeru zeru kane.

Imodoka ziparitse imbere y'inzu zikaba ari ebyiri, hakaba hari abantu barimo barinjiramo. Imbere yiyo nzu ikaba yubatswe mu buryo bugezweho, kandi hejuru yubakishije amatafari ahiye.

Umwana uri gutambuka ahantu hari umunara muremure kandi bitemewe, akaba afite umupira wo kwifubirika, umunara ukikijwe n'ibyuma byinshi kugira ngo batahinjira.

Urupapuro rw'umweru rwandikishijeho ubururu, handitseho kanda kwiyandikisha ukora ikizamini cyo gutwara ibinyabiziga, ibisabwa ni ibi ngibi.

Abantu babiri umugabo n'umugore bari ku bikoresho by'ikoranabuhanga barimo bareba niba nta kibazo bafite bakaba bari i Kigali mu ntare Arena hamwe n'abandi.

Urupapuro rw'ubururu ruriho abantu bane bakaba barimo kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'umurimo. Ubumenyi ni umurimo unoze, inkingi y'iterambere. Abatumirwa ni abo ngabo.

Iki ni ikigo k'igihugu gishinzwe imiyoborere myiza y'abaturage abagituye, abatuye hanze yacyo ndetse n'abaturutse hanze baje kugituramo.

Urupapuro rw'ubururu rwandikishijeho ikaramu y'umweru handitseho "dore uko wamenyekanisha ukanishyura umusoro ku mutungo utimukanwa wa bibiri na makumyabiri na kane."

Urupapuro rw'ubururu rwandikishijeho umweru hariho terefone, imodoka na moto barimo kuvuga dore uko wamenyekanisha ivansi ya gatatu y'umusoro ku nyungu ukoresheje terefone.

Uburyo wakoresha urimo urasaba guhindurirwa ikinyabiziga waguze muri cyamunara, iyo umaze kubibona urishyura ukoresheje nimero warangiza ukareba iyo nimero ari iyi nyuma wishyura urabona ubutumwa bugufi bukubwira ko ubusabe bwawe bwemejwe

Igiti kiri mu ishyamba kikaba cyicayemo inkende, kirimo kiragaragaza aho ubukerarugendo bwakabereye kandi bifuza ko mwese mwazasura.

Urupapuro ruri mu ibara ry'umweru no mu ibara ry'ubururu rukaba rwanditseho uburezi bw'ibanze mu gihugu, ari nacyo kigo gishinzwe uburezi mu gihugu.

Icyayi kirimo kirasoromwa n'abantu b'abamama babiri, babahaye igipapuro cyo kuzuzaho imyirondoro y'abo, icyo cyayi kandi kiri hafi y'ishyamba rirerire.

Abantu babiri buriye hejuru bambaye imyenda yabugenewe bagiye gukora insinga z'amashanyarazi bazerekeza mu bice bitandukanye aho zitabashaga kugera.

Igipangu cyubakishije amatafari kikaba gifite irange ry'umweru n'umuhondo kiri ahantu hari ishyamba rifite ibiti birebire hakaba hari itara rimurika riri ku muhanda.

Umunara muremure ugiye ushamikiyeho insinga z'amashanyarazi hari izizamuka n'izimanuka kandi uhagaze ahantu hiteganye n'ishyamba rirerire.

Igipangu cyubakishije amatafari ahiye, kiri impande y'umuhanda, giteyeho ubusitani burimo ibyatsi bya pasiparumu n'ibiti birimo birazamuka, hari inzu irimo imbere, yubakishije amategura.

Umurima ufite umuferege uteyemo ibihingwa, harimo ipoto rishamikiyeho insinga z'amashanyarazi. Hari inzu iri hafi aho ku ruhande.

Ahantu hubatse umunara hari ibyatsi byinshi hari n'ahandi hatari ibyatsi kandi hari umuhanda unyuramo, hari ishyamba rinini.

Inzu yubakishijwe amategura hariho umwirasire hakaba ibyatsi byamezeho ku ruhande, iri ahantu hahanamye hafi aho hari igiti kiriho.

Abantu bari ahantu hamwe barimo barebera hamwe ikintu cyakorwa hagendewe uko hano hantu hameze kandi bateganyije kubaka ikintu kirenze .

Umunara muremure uri ahantu hari ibyatsi kandi hakaba hateye ibiti byinshi birebire hafi aho hari umuhanda wa kaburimbo ukaba urimo uratambuka mo.

Igipangu gifite ibara ry'icyatsi rikaba n'ibara ryijimye, kikaba kiriho icyapa cyandikishijeho umutuku n'umukara hari abantu bahahagaze bafite igare

Umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'ibiti birebire hariho amatara hafi yaho hari inzu y'igipangu kinini cyane.

Ipoto ryo ku muhanda ririho itara riri imbere y'inzu igerekeranyije hari ibiti birebire biteye aho ngaho, hakaba imodoka ziparitse hanze zifite amabara y'umukara kandi hari n'ibintu bicururizwa muri iyo nzu.

Igipangu cyubakishije amatafari ahiye hakaba hariho amadirishya y'ibyuma kandi hakaba harimo inzu irimo imbere, hari ipoto rishinze kuri icyo gipangu ifite insinga z'amashanyarazi zigiye zishamikiyeho.

Igipangu kirimo inzu nyinshi zigerekeranyije zifite amabara y'umweru n'ubururu hakaba harimo amadirishya y'ibirahure hari ipoto rimanitse kumuhanda rijyana amashanyarazi .

Ipoto ririho insinga z'amashanyarazi, riri ahantu hari ibiti kandi ryitegeye ahantu buri muntu wese yabasha gufatira, hakaba hariho insinga zizamuka n'izindi zimanuka.

Ahantu hari uruhererekane rw'insinga z'amashanyarazi rwerekana aho insinga zihurira hari ibiti bihate by'indabyo n'ibiti by'imikindo n'inzu iri ku ruhande.

Inzu ifite ubusitani buriho indabyo, hari imbuga y'ibitaka, hariho abantu bari kugenda batambuka, bafite na kandagira ukarabe hafi.

Abantu bambaye impuzankano z'umweru barimo kugenda baganira, hari amazu ari iruhande urugo rwa sipure n'abantu bafite amaguru.

Umuhanda ugaragara nk'aho imvura imaze kugwa, harimo imodoka zirimo ziragenda, hari amazu ari hafi aho, hateye ibiti by'imikindo birebire.

Inzu yubakijishe amatafara ahiye, hariho amabati y'umutuku, hanze yaho hahagaze abantu barimo baraganira, ifite igipangu kinini.

Ibitaro bya Muhima byubatswe ku buryo bugezweho bifite igipangu cy'umweru kihari amabuye yubakishijejweho harimo umweru n'umukara kandi hari imodoka ihaparitse isa umutuku.

Amashuri yubatse ku buryo bugezweho ari ku muhanda, afite ubusitani burebure kandi aturiye amazu ari hafi ahongaho hari ibiti bihateye.

Ikigo nderabuzima giherereye mu mujyi wa Kigali akarere ka Nyarugenge umurenge wa nyarugenge kiri ahitwa ku Muhima gifite igipangu cy'icyatsi giparitsemo imodoka .

Umukobwa wambaye agapfukamunwa wambaye umupira w'umweru wambaye ipantaro y'ikoboyi, afite ambaraje mu ntoki kandi afite umusatsi w'umukara afite n'agakapu abantu bamuri iruhande.

Umuganga wambaye impuzankano y'umweru, arimo arita ku murwayi w'umubyeyi w'umugore wicaye ku ntebe y'umukara kandi hari ameza arimo na mudasobwa.

Inzu zubatswe ku buryo bugezweho zikaba ziri ku muhanda hakaba harimo imodoka kandi bikaba ari ibitaro bikuru bya Butare bikaba bifite ubwugamo bwiza.

Umucamanza wambaye ikanzu y'abacamanza ifite ibara ry'umutuku harimo ahantu hasa umukara n'umweru, akaba yambaye amatarata kandi yambaye ishati ifunze.

Abantu bashoje amashuri yisumbuye bambaye impuzankano zabugenewe iyo bashoje ku munsi wabo mukuru, harimo abambaye amakanzu atukura nayo imikarara.

Umuntu wambaye umwenda ufite ibara ry'umukara ibara ry'umutuku ibara ry'umuhondo akaba yambaye amataratara n'amaherena kumatwi afite umusatsi w'umukara.

Abantu bambaye imyenda y'abacamanza bagiye bicaye mu buryo butandukanye abicaye mu buryo bw'imbere harimo abambaye amakanzu y'umweru n'umutuku abandi bateze amatwi bambaye amakanzu y'imikara hari n'amadarapo y'u Rwanda.

Abantu batatu bahagaze imbere harimo umucamanza, harimo uwambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'ikoboyi, undi wambaye ipantaro ya kaki n'ishati irimo amabara izamuye akaboko.

Abantu bambaye impuzankano bari kuva mu modoka bahita bajya ku murongo kandi bose bagiye bambaye inkweto zifunze banambaye udupfukamunwa.

Abagore n'abagabo bahagaze imbere bambaye amakanzu y'imikara bakaba bafashe idarapo ry' u Rwanda bazamuye akaboko k'iburyo barimo bararahira.

Gushyira mu bikorwa ingamba zo kurwanya ruswa, gukorera mu mucyo, kugaragariza raporo abo igenewe, kugenzura ko nta bikorwa bya ruswa birurangwamo

Abagabo babiri bicaye hamwe bambaye amakote ,amashati y'umweru banambaye amataratara barimo baraganira umwe afite ikaramu mu ntoki undi arambitse ikiganza ku meza.

Umucamanza wambaye ikanzu y'abacamanza afite indangururamajwi arimo aravuga, imbere ye hari ameza kandi iruhande rwe hari ibendera ry'igihugu.

Urupapuro rwanditseho rwandikishijwe n'imashini mu ibara ry'umukara rufite ibara ry'umweru kandi runasanyeho hariho umukono hariho na kashe.

Umusaza wambaye umupira w'umukara, ufite umutwe munini wazanye uruhara, hari imisego y'umutuku imukikije, iruhande rwe n'iyumweru.

Icyapa kiri ku muhanda, kigaragaza aho ibitaro bikuru bya polisi bikorera, kandi hari igipangu kigizwe n'amatafari ahiye, hariho ibiti birebire.

Abantu bicaye hasi bambaye udupfukamuwa hakaba harimo abamama ndetse n'abana batoya bari ahantu hari ibikamyo bibiri kandi hari n'abapolisi.

Inzu yubakishije amakaro y'umweru ikaba isize irangi ry'umweru, hariho ubutabazi bw'ibanze tuzi nka kizimyamwoto gifite ibara ritukura.

Umuntu uhagaze kumuhanda wambaye impuzankano z'abashinzwe umutekano, hakaba hari n'undi urimo urutambuka wambaye ipantaro yubururu n'umupira w'mweru n'ikote ry'umukara.

Umuntu atambutse ku bapolisi babiri bambaye impuzankano zisa kandi hakaba hari imoto ibahagaze iruhande, imbere yaho hari imodoka ifite ibara ry'umweru.

Igikoresho kifshisha mu butabazi bw'ibanze kizwi nka kizimyamwoto kiri ahantu kegetse ku nzu kandi gikaba gisa ibara ritukura handikishijeho umweru n'akantu kari mu ibara ry'ubururu.

Imodoka yi toyota ifite ibara ry'umukara iparitse mu mbuga hagati hari ahantu hari ikigega kiri hejuru kandi hari ibyatsi biteye ahongaho mu busitani.

Abagabo babiri bahagaze hamwe barimo baraseka. Umwe akaba ari Minisitiri w'intebe undi akaba ari Umugaba w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda. Bakaba bishimye.

Umukuru w'igihugu ari mu baturage rwagati, bose barishimye bamanitse amadarapo hejuru. harimo arababwira uburyo azabayobora neza kandi bose bashyize hamwe.

Hano hari uruhurirane rw'abagize ishyaka rya Efuperi Inkotanyi. bafite amadarapo arimo ibara ry'ubururu, umutuku ndetse n'umweru. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame wambaye umupira w'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara. Hari abashinzwe umutekano mu rwego rwa Sitiyu.

Minisitiri w'urubyiruko Utumatwishima yambaye ikoti ry'ubururu, yambayemo ishati y'umukara, akaba ahagaze imbere arimo ararahira azamuye akaboko k'iburyo.

Abantu bari mu cyumba cy'inama bakaba bicaye bose bafite amazi yo kunywa, hakaba hari umugabo wambaye ikote ryererutse akaba yambaye n'agapfukamunwa.

Umuntu wafunze igipfunsi, yazamuye igikumwe kiriho ibirange byerekana ko yatoye, ari imbere y'idarapo ry'u Rwanda rifite ibara ry'ubururu, umuhondo n'icyatsi.

Abantu bambaye imipira y'imyeru n'ingofero z'imyeru, bafite impapuro mu ntoki, abandi barimo barazibara hari amazi ari ku ruhande yo kunywa.

Umukuru w'igihugu ugaragiwe n'abacunga umutekano, akaba ageze ahari kubera igikorwa cyo kwiyamamaza, bagiye bafite amadarapo bose bayamanitse.

Abacunga umuteka bari ahabereye kwiyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu, bamurinda neza, amadarapo ahari nayo ni menshi.

Abantu bicaye mu cyumba cy'inama, bose bakaba bicaye ahantu hamwe, kandi buri muntu wese bakaba bamuhaye amazi yo kunywa, imbere aho hahagaze umuyobozi w'igihugu.

Abakandida batatu bari ahantu hamwe harimo Kagame, Habineza, Mpayimana barimo bagaragara uburyo bagiye batorwa kukigero kigiye gitandukanye.

Icyapa kiriho umuntu ushushanyijeho hariho imirongo izamuka, ivunaguye y'umutuku, ubururu n'icyatsi yanditseho ngo indi ntambwe.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu, kikaba gifite idarapo ry'U Rwanda cyanditseho repubulika y'U Rwanda, Komisiyo y'Igihugu y'Amatora. Twitabire amatora kandi duhitemo neza.

Abamama bicaye ahantu hamwe hakaba hari abamama bicaye imbere bambaye amakanzu y'umweru gusa bakaba biteye imyitero y'imituku bazamuye amadarapo.

Ikiganza kibumbatiye isaka, harimo ibara ry'ubururu, umweru n'icyatsi, ubutabera, ubwisungane, amajyambere, imiyoberere myiza kandi ihamye.

Icyumba cy'inama cyateguwe neza kirimo intebe kandi kuri buri ntebe hariho ameza agiye ateretseho amazi yo kunywa, kandi imbere hari ikoranabuhanga n'insakaza mashusho.

Abantu benshi cyane bari ahantu bamwe baje gushyigikira umukandida wabo, ubwo bari barimo biyamamaza, bari bafite amadaropo bose bayashyira hejuru.

Abagabo n'abagore bahagaze ku idarapo ry'u Rwanda barifashe kandi bazamuye ukuboko kw'iburyo nk'abarimo kurahira bafite imyenda y'imikenyero n'abambaye amakote.

Umuyobozi arimo arashyira umukono ku nyandikomvugo, hari umucamanza uhagaze iruhande rwe wambaye ikanzu itukura umugore we nawe yambaye umukenyero.

Amashyaka agiye atandukanye arimo ahatana, amatora harimo ifite idarapo ry'umweru umutuku n'ubururu iini rifite ubururu umweru n'icyatsi rindifite icyatsi n'inyenyeri z'umuhondo.

Umukuru w'igihugu wambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'umweru ingofero y'umukara azamuye ikiganza inyuma ye hari abamurinda bamukikije nabo bambaye impuzankano.

Abantu bicaye mu nteko barimo mu nama, bicaye ku ntebe z'umukara bafite za mudasobwa, buri muntu wese afite icupa ry'amazi ari kunywa.

Umugabo wambaye ikoti ry'umukara, akaba yambaye ishati y'umweru iri mo imbere, yazamuye ikiganza, ahagaze imbere y'indangururamajwi, afashe ku idarapo ry'u Rwanda.

Abagabo babiri bambaye amakoti, mo imbere harimo amashati y'umweru mu ntoki bafite impamyabumenyi kandi bahagaze ahantu hari idarapo ry'u Rwanda hari umuntu uri kubafotora.

Imodoka y'igikamyo ifite ibara ry'umuhondo ibirahure byijimye iri mu muhanda rwagati, hari umuntu uri guturuka ruguru ushaka kwambuka na moto iparitse iruhande.

Umuntu wambaye ikanzu ufite isakoshi ku rutugu ari kugendera mu nzira y'abanyamaguru, hari imodoka y'igikamyo iri mu muhanda ihetse ibintu ikaba ifite ibara ry'umweru.

Imodoka ya rukururana iri mu muhanda rwagati, ihetse umuzigo muremure, inyuma yaho hari moto ziri kuza zihuta zitwaye abagenzi, hirya hari ibiti.

Imodoka itwara imizigo ifite ibara ritukura iri mu muhanda igenda, umuhanda ufite umuferege, hari ibiti biteri ku uruhande, abantu barimo kuhakinira.

Ipikipiki itwikiriye ikaba ihetse, ibintu bitandukanye iri mu muhanda wa kaburimbo ahantu hateye ibiti birebire, hakaba hari ubusitani n'inzu irimo aho ngaho.

Ipikipiki zimwe zitwikirirwa ziri ku muhanda aho zaparitse zirebana, hari umu mama urimo uratambuka yambaye ikanzu y'igitenge afite isakoshi ku rutugu.

Abantu bahagaze ahantu hari imodoka zitandukanye, hari imodoka ntoya zitwara abagenzi hakaba n'izindi nini zitwara nazo abagenzi ariko zigiye zitandukanye.

Umuhanda nyabagendwa ya kaburimbo urimo uragendwamo n'abantu batandukanye, hakaba harimo ibinyabiziga, amagare ndetse n'imodoka z'ibikamyo zikaba zirimo ziratambukamo.

Imodoka irimo iragenda mumuhanda ifite ibara ry'umweru yana funguye ibirahure hari umunyonzi uhetse undi kandi hari ibiti biba aho hafi.

Imodoka itwara abagenzi ihagaze ahantu ku kumuhanda ifite ibara ry'ubururu n'ibara ry'umweru rifite ibirahure byijimye imbere harimo amarido kandi igiye kugenda.

Umunyonzi utwaye igare akaba ahetse umuntu ari impande y'igikamyo kiri kugenda mu muhanda wa kaburimbo n'undi uri ku igare ry'imyitozo, hari ishyamba rihari.

Imodoka itwaye abagenzi ibisikanye n'imodoka nini cyane hari ibiti biri Ku muhanda bikikije hari n'umuferege.

Aha ndahabona ibintu bigiye bitandukanye aho ndimo kubona abantu bagiye batandukanye, imodoka ndetse ndikubona moto zigiye zitandukanye, kandi nkaba ndimo ndabona na rifani zigiye zitandukanye, ndetse kandi nkaba ndimo kuhabona n'umuhanda wa kaburimbo.

Imodoka nini zitwara abagenzi zikaba ziparitse ahantu hamwe zitegereje abagenzi kandi ahongaho hari aho abagenzi bicara bategereje imodoka.

Imodoka y'igikamyo iri mu muhanda wa kaburimbo irimo iragenda ihetse ikigega kirimo mazutu ikaba igiye kuyitanga ahandi.

Umuhanda wa kaburimbo, ukaba uparitsweho imodoka itwara abagenzi, ikaba ifite ibara ry'umweru n'ibirahure bibonerana. Hari amazu yubatse ku ruhande, ya gitwe kimwe.

Imodoka ziparitse ku murongo mu buryo bugezweho zifite ibara ry'umweru n'ubururu, ibirahure byijimye biri ahantu abantu barimo baratambuka hari inzu igerekeranyije ihari.

Imodoka itwara abagenzi n'abantu ihagaze mu muhanda hagati, ifite irange ry'umweru, yakobotse hari abantu benshi bari kuyireba.

Umuhanda nyabagendwa wa kaburimbo ukaba ufite aho abanyamaguru banyura, urimo uragendwamo n'imodoka na moto bigiye bihetse ibintu bitandukanye moto ikaba ihetse umugenzi.

Abantu bari mu muhanda bakaba bafite amagare, bategereje abagenzi bo gutwara ngo baba babageze aho bajya, kandi barimo bagiye batandukanye, abambaye imipira y'imweru n'umuhondo.

Imodoka nyinshi ziri mu muhanda rwagati hari abantu barimo baratambuka n'abandi bacunga umutekano, hari amazu ari hafi aho y'ubucuruzi maremare kandi agerekeranyije.

Abantu babiri bari mu muhanda wa kaburimbo wambaye ijile z'umuhondo, hari igikamyo gisa umutuku kirimo kiragenda, hari ibiti birebire biteye kuri uwo muhanda.

Umuntu uri ku igare wambaye umupira utukura, atambutse imbere y'imodoka itwara abagenzi ifite ibara ry'ubururu n'umweru, hakaba hari abantu bari kuza birukanka bashaka kuyinjiramo.

Bisi itwara abagenzi bajya mu ntara ikaba ifite ibara ry'umweru n'ibirahure byerurutse ikaba iri kugana mu ntara zigiye zitandukanye z'igihugu.

Umuhanda wa kaburimbo urimo amapikipiki atwawe n'abamotari bahetse abagenzi, kandi harimo igikamyo gihetse ikigega cya mazutu.

Imodoka z'ibikamyo ziri mu muhanda zirimo ziragenda, hari imwe isa ubururu harimo abantu, iyindi irimo ibintu by'ibikoresho, iyindi ihagazemo umuntu.

Umuntu uri kugendera mu muhanda w'abanyamaguru hari imodoka ndende nini itwara abagenzi hirya hari ibiti biri biri ahongahop n'izindi modoka zitambukanye.

Abana bari mu muhanda batwaye amagare, hari icyapa cya Kigali bari, aho habugenewe gukorerwa imyitozo ngorora mubiri harimo ubusitani bw'ibiti by'imikindo.

Intebe iteretse ku muhanda hakaba hari ipoto riri inyuma yayo n'amabuye bamenageye ari mu byatsi akaba ari ayo gukoresha bubaka kandi iyo ntebe ifite ibara ritukura.

Ikibuga cy'umupira kirimo cyirakinirwamo umupira n'abantu benshi, hanze hari umukinnyi witegura kwinjira mu kibuga, abo bakinnyi basize ibikapu byabo hanze y'ikibuga.

Umuhanda wabugenewe, gukorerwamo imyitozo ngorora mubiri, amazu, indabyo ziri ku muhanda zihegereye.

Icyapa kiri ku muhanda gifite ibara ry'umweru cyanditseho akarere ka Bugesera mu ibara ry'umukara, kiri munsi y'ibiti gifite uburebure bwa mpande enye.

Icyapa cya mpande eshatu gifite ibara ry'umweru, umutuku n'umukara kigaragaza aho abanyamaguru bambukira.

Icyapa k'imodoka kigaragaza ko bibujijwe gihagarara aho ngaho. Ntamuntu n'umwe wemerewe guhagarara bitemewe mu gihe kitari icya nyacyo

Icyapa cya mpande eshatu, kiri mu ibara ry'umutuku, umweru, umukara kirimo abantu babiri barimo kugenda, hejuru yacyo hari ikindi kirimo aho umuhanda ukomereza.

Umuhanda wegeranye n'ubusitani burimo pasiparume, haparitsemo imodoka y'umweru kandi harimo ibiti by'umukindo, n'ibindi biti birebire cyane.

Icyapa cya mpande eshatu kikaba kiri ahantu hitegeye kandi gifite ibara ry'umweru, ibara ritukura, n'ibara ry'umukara. Kikaba kirimo kerekana ahantu hahanamye.

Umuhanda wa kaburimbo ufite icyapa cy'umuhondo n'umukara, hari ibyatsi biri ku muhanda, ahandi hateye ibiti birebire bifite ibara ry'icyatsi.

Umuhanda wa kaburimbo ukaba ushamikiyeho undi muhanda uturuka uzamuka kandi hateye ibyatsi bya pasiparumi biteyemo ibiti birebire cyane.

Icyapa kerekana umuhanda nimero mirongo itatu, kiri ku muhanda, hirya hari ibiti birebire n'igipangu kizamutse, ku ruhande rwayo hari inzu ndende.

Icyapa kiri mu ibara ry'umuhondo harimo imirongo y'umukara yerekana inzira zo kunyuramo zinyuranye igaruka n'ikomeza.

Icyapa cya mpande eshatu gifite ibara ry'umutuku, ibara ry'umuhondo n'ibara ry'umukara, cyerekana ko hari ahantu hari gukorerwa igikorwa cy'ubwubatsi.

Icyapa gifite ibara ry'icyatsi hakaba handikishijemo umweru kirimo kiragaragaza ahantu hari parike y'ibirunga hakaba n'ikindi cy'ubururu cyandikishijemo umweru kerekana umupaka wa y'Uganda.

Icyapa kiri mu ibara ry'umweru n'umukara, kikaba gishushanyijemo abana bari kujya ku ishuri cyangwa bavayo, kiri munsi y'igiti kirekire hari ibyatsi bya pasiparume.

Umuhanda wa kaburimbo uri hagati mwishyamba rirerire cyane impande yawo hari icyapa kiyobora abantu kiri hagati mubyatsi.

Icyapa kiri mu ibara ry'umukara n'umuhondo, kirimo cyerekana aho umuhanda ukomeza n'umuhanda ukata unyura, kiri ahantu mu ishyamba hagati.

Icyapa cya mpande eshatu, kikaba gifite ibara ry'umweru, ibara ritukura n'ibara ry'umukara, kirimo kirerekana uko imihanda igenda inyuranyuranamo kandi hazamuka.

Icyapa gifite ibara ry'umweru, umutuku, umukara kiri mu busitani bw'ibyatsi bya pasiparumu, hari igiti giteyemo, hirya hari amazu maremare.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu n'umweru, cyerekana aho kwerekeza, aho inzira ikomeza, umuhanda ukomeza mu ibara ry'umweru hashushanyijemo akantu k'akarongo.

Icyapa cya mpande eshatu gifite ibara ry'umutuku ibara ry'umweru, ibara ry'umukara kiri munsi y'ibiti birebire biri hafi aho.

Icyapa cya mpande eshatu gifite ibara ry'umutuku, ibara ry'umweru, ibara ry'umukara kiri ku muhanda kigaragaza aho imihanda inyura n'aho igarukira.

Imodoka y'umweru ifite ibirahure byijimye ikaba ifunguye urugi rw'inyuma, iri imbere y'inzu y'igorofa rirerire kandi hari ibiti biteye ahongaho kuri iyo nzu.

Amazu maremare ari ku murongo agezweho yitwa gitwe kimwe akaba afite imbuga ndende haparitseho imodoka hari n'abantu bayirimo bagurisha ibintu .

Inzu ndende y'amagorofa ane ikorerwamo ubucuruzi, ikikijwe n'ibiti, ku ruhande harimo abantu bakoramo. Hanze hari amamodoka.

Inzu y'ubucuruzi ikaba ifite ibyapa bigiye biri mu ibara ry'ubururu, ibara ry'umutuku, ibara ry'umweru, kandi isize irangi ry'ubururu n'umukara, hari abantu bari ku muhanda.

Inzu igerekeranyije, ikaba ifite ibirahuri byijimye, isize irangi ry'umweru, ifite igipangu kandi ikaba ifite ubusitani, iri ahitegeye, irakodeshwa.

Imodoka ebyiri ziparitse ku mbuga yo hanze, imwe ifite ibara ryijimye, indi ifite ibara ritukura, hari inzu igerekeranyije ifite irangi ry'icyatsi.

Inzu y'uruganda yubakishije amatafari ahiye ifite amadirishya y'ibirahure, ikaba ifite irangi ry'umweru, imbere yayo hamenye ibitaka, munsi hateye ibyatsi bya pasiparumu.

Ahantu hatuwe harimo amazu habayo imodoka haparitse umumotari hari ibiti bikikije umuhanda ari byinshi n'icyapa.

Inzu ndende igerekeyije ikaba ifite imbuga nini ikaba iyo nzu ikorerwamo ubucuruzi bugiye butandukanye hakaba harimo amahoteli hakaba habarimo namaduka .

Inzu nyinshi zubatswe mu buryo bugezweho kandi zikaba zicucikiranyije zigiye ziteyemo ibiti birebire kandi hakaba harimo umunara uzana amarezo.

Umujyi wa Remera ukaba wubatswemo amazu agezweho kandi acucikeranyije hateyemo ibiti ku buryo umuyaga utayatwara kandi hakaba harimo amazu agiye agerekeranyije.

Aho umurenge wa Ndera uherereye, ukaba ukikijwe n'amazu atuyemo abantu kandi hateye ibiti byinshi n'ibyatsi biri muri ubwo bwatsi.

Inzu ndende igeretse ifite amadirishya ifite inzugi ikaba ifite amabati atukura isize irangi ry'umweru ifite igipangu cy’ ubakishije amatafari.

Ahantu hari ishyamba riteye rirerire kandi rikaba riteganye n'amazu menshi ari ahantu hitegeye neza maremare agiye agerekerenyije.

Imodoka ifite ibara ry'icyatsi iri mu muhanda rwagati irimo iragenda hari abantu bahaze mu muhanda bambaye imyenda y'ibitenge, n'imodoka irimo ikomeza yerekeza ku nzu igerekeranije.

Amazu menshi yubatse ku buryo bugezweho kandi acucikiranyije hakaba harimo amazu maremare izigerekeranyije harimo ishyamba rifite ibiti birebire n'ibiti bigiye biteye impande y'amazu.

Inzu iri ku muhanda ifite igipangu cyi'icyatsi ikaba yubakisheje amatafari ahiye ifite amabati atukura kandi yubatswe mu buryo bugezweho.

Inzu ndende ifite igipangu cyubakishije amatafari ahiye. Iyi nzu ikaba igiye igerekeranyije kandi ifite ibirahure byijimye. Yubakishije na yo amatafari ahiye.

Inzu ifite ubusitani burebure hakaba hari umuntu ufite igare rihetse ibintu uri kwinjira, hakurya hari inzu yubakishije ibirahure bifite irangi ry'umweru.

Umumotari utwaye ipikipiki ari mu muhanda rwagati ya Kigali hakaba hari amazu yubatse ateganye, hahagaze abantu bari ku muhanda kandi hari n'ahandi hakorerwa ubucuruzi.

Inzu igerekeranyije, ifite amagorofa agera muri atandatandu, iri imbere y'umuhanda kandi hakaba haparitse imodoka nyinshi. Umuhanda urimo ugendwamo moto.

Umurima uhinzemo ibihingwa bitandukanye ibigaragara ni ibigori hari amazu yubatse ku buryo bugezweho kandi agiye ari ku murongo afite inyubako nziza.

Ahantu hagenewe kubaka inganda hakaba hari uruganda ruri ahantu harwonyine rufite irangi ry'umweru n'ubururuwubakishije amatafari.

Umuhanda wa kaburimbo ukaba ufite ikiraro, kuri icyo kiraro kikaba kiri kunyurwaho undi muhanda wo hejuru kandi hagiye hateye ibiti birebire n'ubusitani bwiza.

Umuhanda nyabagendwa harimo aho abanyamaguru bambukira naho abanyamaguru banyura, harimo amatara agaragaza aho bagomba kunyura imodoka zihagaze mo.

Umuhanda wa kaburimbo uteyeho ibiti birebire, hakaba harimo ibyatsi bigufi bimeze nk'ubusitani, hagiye hari amatara kuri buri ruhande, hakaba hagaragara neza.

Umuhanda nyabagendwa, urimo moto itwaye abagenzi, n'imodoka itwaye ibintu, ku ruhande hari inzira y'abagenzi, ukijijwe n'ibiti birebire.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka zigenda zibisikana, harimo imodoka ifite ibara ry'umukara n'igikamyo gifite ibara ry'umutuku, harimo umumotari utwaye moto.

Umuhanda wa kaburimbo muremure kandi wa nyabagendwa harimo kugenderamo amapikipiki, iruhande rwabo hari amazu y'abacuruzi n'abacururizamo.

Umuhanda muremure wa kaburimbo hariho inzira y'abanyamaguru hirya, hari igipangu kirimo amazu n'aho bafatira amaraso atwarwa mu tudege.

Umuhanda munini wa kaburimbo ufite aho abanyamaguru bagendera, ufite imodoka zirimo kuwugenderamo, hafi aho hari inzu ziri ku ruhande rwawo.

Umuhanda wa kaburimbo urimo moto ihetse icupa harimo na moto zitwaye abantu harimo imodoka y'ikamyo itwaye ibikoresho bitandukanye hari ishyamba hirya .

Abantu barimo barambuka bambukiye ahantu habugenewe, harimo na moto n'imodoka zirimo ziratambuka, hari ibiti biteye hafi aho ngaho.

Umuhanda wa kaburimbo, ukaba urimo ugendamo imodoka ziri guturuka mu byerekezo bitandukanye, hakaba harimo amapikipiki ahetse abantu kandi hari inzira nyabagendwa y'abanyamaguru.

Umuhanda wa kaburimbo uteganye harimo haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye kandi bibisikana harimo amapikipiki imodoka ndende n'imodoka ngufi zikaba ziri kugenda mu byerekezo bitandukanye.

Umuhanda urimo imodoka zirimo zigenda zigeze aho abanyamaguru bambukira zirahagarara abanyamaguru bakambuka hirya hari icyapa kigaragaza igihe k'ibiruhuko n'inzu.

Umuhanda wa kaburimbo ufite aho abanyamaguru bambukira, urimo uracamo moto zihetse abantu abantu barimo baratambuka kandi kuri uwo muhanda hateye ibiti.

Umuhanda munini wa kaburimbo harimo moto itwawe n'umumotari utwaye umugenzi haparitse imodoka itwaye abagenzi benshi.